Icumba ca kijambere cubakishijwe amatafari gahiye. Kirimwo isima hasi, kandi kimwo n'intebe zo kwicarwaho n'abanyeshuri. Birumvikana ko nta gwundi murimo gwukorerwamo uretse kwigisha abana ubumenyi butandukanye.

icumba c'ishuri cubatswe ku buryo bwa kijambere. Kirimo intebe kandi kirimo na sima. Witegereje neza n'ubwo nta banyeshuri bakirimo cangwa umwarimu, wamenya neza ikigero c'abana bacigiramo ugendeye ku mfashanyigisho zashushanyijwe ku kibaho.

Amashuri uretse kuba gigirwamwo inyigisho zitandukanye nko gusoma, kubara no kwandika hatorezwamo umuco n'imikino inyuranye abana bagakura bafite ubuzima bwiza butekereza kandi bukora neza.

Amashuri ni inyubako nini cyane zigiye zigabanyijemo ibyumba bitandukanye, hanyuma abana bakiga hakurikijwe imyaka bagezemo. Yigirwamwo ubumenyi butandukanye: Gusoma, kubara, kwandika n'izindi nyigisho z'ubuzima.

Inyubako ya kijambere yubakishijwe amatafari gahiye ikingishijwe inzugi z'ibyuma zizwi nka metalike n'amadirisha garimwo ibiyo cangwa ibirahuri, ni inyubako yagenewe gukoreshwa mu kwigisha abana.

Icyumba cy'ishuri cya kijyambere cyubatse neza kirimo ameza yubatswe n'amakaro. Ni icyumba gikoreshwamo gikorerwamo ubushakashatsi kizwi nka laboratwari. Ni icyumba gifasha abanyeshuri biga ubumenyi, kwimenyereza gushyira mu ngiro ibyo biga.

Ikigo c'amashuri cubastwe ku buryo bugezweho gifite n'ubusitani rwose burimwo umucaca go kwicaraho. Gifite n'ibiti bikizanira akayaga ,ugasanga abana bakirimo banezerewe. Gifite n ibyumba by'amashuri bigiramo ikoranabuhanga .

Ikizame ni igerageza cangwa se isuzuma rishyirwa imbere y'umunyeshuri nyuma y'igihe runaka amaze yiga, yicaye ku ntebe y'ishuri. Kigamije gusuzuma ubwenge, ubumenyi, ubushobozi yavanye mu masomo gatandukanye yagiye yigishwa n'abarezi banyuranye.

Abana bishimiye cane rwose iri somo bari barimo kwiga, bafite akanyamuneza n'ubweramutima burabaranga, batitaye ko bari kwigira ku karubanda ariko barishimye.

Ububaji ni umwe mu myuga ikorerwa mu gihugu cacu, aho babariza hitwa mu ibarizo, bukorwa n'abantu b'igitsina gore cangwa igitsina gabo, bukora ibikoresho bitandukanye nk'ameza, intebe, ibitanda, amadirisha n'inzugi bikingishwa, ububaji butanga akazi ku bantu batagafite.

Uburezi bwo nkingi y'iterambere si ukwiga icongereza, igifaransa cangwa igishinwa n'izindi ndimi z'amahanga gusa, mu burezi habamo n'amasomo g'ikoranabuhanga, aho umunyeshuri usanga yiga gukoresha bya byuma kabuhariwe mudasobwa bimufasha guhanga udushya.

Icumba ca kijambere c'ikoranabuhanga cigirwamo, kizwi nka sumati karasirumu, kiba kirimwo mudasobwa cangwa orudinateri mu ndimi z'amahanga, buri munyeshuri uje kwiga muri iki cumba yicara ku mashini ye, iba ifite n'ihuzanzira ku buryo byorohera umwana kwiga.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga, m'ubushishozi n'ubwitonzi bwinshi, no mu mpuzankano yabo ibereye ijisho, bari kwitegereza imikorere n'imikoreshereze ya zimwe mu mashini biga gukoresha buri munsi mu bikorwa byabo.

Abanyeshuri mu mpuzankano y'amasarubeti, igaragaza ko ari abanyeshuri bo mu mashuri y'imyuga. Bahugijwe cane no kuba bari mu bizamini cangwa imyitozo bateguriwe, yatumye buri muntu wese asa n'uwihugiraho cangwa akaba nyamwigendaho.

Abanyeshuri n'abarimu babo, bari mu cumba c'ubushakashatsi kizwi ku izina ry'amahanga nka laboratwari. Barimo gukora ubushakashatsi bujanye n'amasomo gabo biga buri munsi, kugira ngo barusheho kongera ubumenyi.

Itsinda ry'ababaji bari mu cumba bakoreramo ubukorikori, cangwa ibihangano byabo. Mu matsinda gabo bari gutunganya neza ibyo bakoze, ngo babigeze ku isoko binoze, babone amafaranga bwo kubateza imbere, gateze imbere n'imiryango yabo.

Abakozi bo muri resitora bari gupfunyika ibiryo muri bya bishashi ngendanwa. Birumvikana bari gupfunyikira abakiriye kugirango ngo babashe kuboherereza ibyo kurya babateguriye.

Abanyeshuri bakurikiranye neza cane uko umwarimu wabo aberekera ,bafite impapuro n'amakaramu ashushanya ,bariho baritegereza neza ishusho umwarimu wabo arimo abashushanyiriza.

Itsinda ry'abanyeshuri biga mu mashuri gisumbuye imbere y'inyubako nziza cane ya kijambere, bamwe barahagaze abandi barasutamye, bishimiye cane intsinzi babonye nyuma y'igihe kirekire bamaze bicaye ku ntebe y'ishuri bigagamo.

Itsinda ry'abanyeshuri biga imyuga. Imyuga yigirwa mu mashuri azwi ku izina rya Tiveti mu Rwanda. Barimo gusesengura imikorere n'imikoreshereze y'imashini bigiraho.

Icumba c'ishuri gikorerwamwo umurimwo wo kwigisha. Kirimo intebe, akabati umwarimu abikamwo ingwa cangwa ibitabo. Mwarimu ari imbere ku kibaho ari gutanga isuzuma mu gihe abanyeshuri bicaye umwe ku wundi bategereje ko mwarimu arangiza kwandika.

Mu mpuzankano yabo abanyeshuri biga mu ishuri ry'imyuga bari mu cumba c'ishuri ,aho bari gusesengura imikoreshereze cangwa imiterere y'imashini bifashisha mu mwuga biga.

Icumba ca kijambere gikorerwamo umwuga gw'ubudozi. Kirimwo umuntu uri kudoda kandi ufite n'imashini nyinshi zitandukanye. Umwuga gw'ubudozi guhesha ishema abagukora kuko bagubonamwo amafaranga gwo gutunga ubuzima bwabo aturutse mu myenda itandukanye baba badoze.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu bintu bigenda bihindurira abantu ubuzima. Uretse no guhindura ubuzima bw'abantu binorosha akazi aho abantu bagombye gukoresha imbaraga z'umurengera hakifashishwa ibyuma by'ikoranabuhanga bityo ntibatakaze imbaraga nyinshi mu kazi; ikoranabuhanga ni ryiza kuko ryihutisha iterambere.

Abanyeshuri biga mu mashuri g'imyuga. Ni amashuri gigisha imyuga zitandukanye nko kubaza, gusudira, gukora imisatsi, kudoda n'ibindi. Bari imbere y'imashini bimenyereza uburyo bazayikoresha.

Amashuri y'imyuga. Ni amashuri yigisha imyuga itandukanye harimo kubaza, kudoda, gusudira cyangwa kudoda inkweto, cyangwa gukora inkweto. Abanyeshuri mu mpuzankano zabo bari gukora inkweto z'abagabo.